Umubyeyi w'umugore akikiye umwana, ari ku ivomero rusange avoma amazi kuri robine, ari kuyavomera mu ndobo y'umukara yayiteze hasi ku mureko.

Abantu benshi batonze umuronko, bafite amajerekani, abandi bafite indobo. Bari ku ivomero rusange ,bari kuvoma amazi.

Abantu bakora ku marembo y'ibitaro, bafite igikoresho gipima umuriro, aho bagitunga buri muntu wese ugiye kwinjira mu bitaro kugira ngo bamenye niba nta burwayi runaka yaba afite.

Abaganga basoje amahugurwa mu bijyanye n'umwuga bakoramo w'ubuvuzi, barangije kubahugura kugira ngo barusheho kunoza imitangire ya serivisi batanga mu nzego z'ubuvuzi.

Abantu basoje amahugurwa ku bijyanye no kunoza ndetse no gutanga serivisi zikwiye ku bantu bose baje babagana mu nzego z’ubuvuzi kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kwitabwaho neza.

Abantu benshi bahuriye hamwe, bafashe ibyapa bimeze nk'ibipapuro byanditseho amagambo atandukanye. Kandi abo bantu bamwe bambaye ingofero, bigaragara ko ari abagabo abandi akaba ari abagore.

Gahunda ijyanye n'ubukangurambaga no kumvisha abaturage gahunda y'uburinganire, igenda yiyongera uko imyaka igenda ishira. Bigaragarira kuri iyi mibare, aho bibiri na cumi n'umunani byari mirongo itanu na gatanu. Bibiri na cumi n'icyenda biba mirongo irindwi ku ijana, bibiri na makumyabiri biba mirongo irindwi na gatandatu, naho bibiri makumyabiri na rimwe biba mirongo irindwi n'icyenda.

Abantu babiri n'umukobwa umwe ni mukuru, ku ruhande hicaye umwana, bari kuvoma amazi y'ibirohwa ashoka ku gasozi, ayo mazi bari kuyavoma bifashishije umuvovo.

Abantu bari mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Imbere yabo hari umugabo uri kubasobanurira ku bijyanye no gupimisha abana. Imbere yabo kandi hari umunzani bapimuriraho ibiro by'abana.

Umuganga wicaye imbere mu nyubako ari kumwe n'abarwayi ari kubaha imiti, inyuma ye hahagaze umugabo wambaye akajiri.

Umuganga uri gusuzuma abarwayi, imbere ye hicaye umurwayi ari gusuzuma, inyuma ye akaba akikijwe n'abana batoya bamushungereye, ku ruhande rwe kandi hari umugabo wambaye ishati y'umweru.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi bicaye bose bateganye, barebana imbere yabo hateretse uducupa turimo amazi yo kunywa ndetse ku meza hakaba hateretseho n'indabo zitandukanye.

Abantu babiri bari kuganira, umwe yambaye agapira k'ubururu ka Unicef, undi yambaye ishati y'amaboko magufiya isa n'ibara ry'ikigina.

Abana bari ku ivomero rusange, bari kumwe n'umubyeyi w'umumama. Kandi ku ivomero hariho amabase ndetse n'ikijerekani ari kwifashisha nk'ibikoresho byo gufata amazi.

Abantu bagiye kwa muganga bicaye hanze ku ntebe batunze umurongo, kugira ngo bahabwe serivisi mu buryo bukwiye, bose bicaye berekeza ku muryango utangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Ababyeyi bitabiye gahunda zijyanye no gukingiza abana babo inkingo zo kwirinda indwara zitandukanye, bose bicaye mu nzu mberabyombi aho bategereje serivise zijyanye no gukingiza abana babo.

Umuntu uteze ikiganza ku mazi aturuka mu itiyo nini, uyu muntu kandi ari gukaraba aya mazi kugira ngo asukure intoki ze akureho umwanda.

Abantu bicaye mu nyubako, bari guhabwa amahugurwa, ku bijyanye no kwita ku buzima cyane cyane abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi, barashishikarizwa gutanga serivisi zinoze kandi bagakora akazi kabo bishimye.

Umugore ukandagiye kuri kandagira ukarabe ari gukaraba intoki n'amazi meza, ku ruhande rwa kandagira ukarabe hari akantu k'umutuku barambikaho isabune, kandagira ukarabe yubakishije ibiti harimo akajerekani k'umweru.

Abantu bakora mu nzego zitanga serivisi z'ubuvuzi, bicaye mu nyubako mo imbere, imbere yabo hari ameza, bafite udufirishi dutoya mu ntoki, ku ruhande hari ibitabo bari kuzuzamo imyirondoro y'abarwayi baje kwivuza.

Idarapo riri mu mabara atatu, harimo ibara ry'umukara, ibara rya oranje ndetse n'ibara ry'umweru rikoze ikimenyetso cy'umusara.

Abantu bari kuvoma amazi ndetse n'undi muntu uri koza igare ku ruhande yifashishije amazi atemba hasi ku butaka ndetse n'undi uri kuyavoma mu ijerekani.

Abantu bari ku ivomero rusange, inyuma hari umugore wambaye agapira k'ubururu ari gupompa amazi, imbere hakaba umwana w'umuhungu uri kuvoma amazi akoresheje amajerekani.

Abantu batandukanye bahuriye ku ivomero rusange, inyuma hari umugore wambaye agapira k'ubururu, ari gupompa amazi na ho imbere ku ivomero hari umwana w'umuhungu uri kureka amazi mu bijerekani.

Abana bashungereye umugezi rusange utwara amazi, ku ruhande hari undi mwana ufite ibirahuri bibiri birimo amazi.

Abaganga bari ku ibaraza imbere mu nyubako basoje amahugurwa ajyanye no kunoza imitangire ya serivise batanga mu nzego z'ubuvuzi bakoramo.

Umugabo ari gukorera umwana mutoya ikijerekani kirimo amazi, ku ruhande hari umugore wambaye akajekani, afite telefoni ari kubafotora.

Abantu bicaye mu nzu imbere mu nyubako, imbere yabo hateretse ameza, bose bicaye bayazengurutse, bari kuganira bungurana ibitekerezo bitandukanye.

Umwana wambaye imyenda, irimo ikabutura ndetse n'ishati bifite ibara rya move. Uyu mwana ari kuvoma amazi ku kigega, akoresheje agakombe.

Abagore batatu bari ku ivomero rusange, babiri bari gupomba amazi na ho undi mugore wa gatatu ari imbere, areka amazi akoresheje indobo ndetse n'ibasi.

Umuturage wese yegerejwe amazi meza, umugore ari kuvoma amazi meza yo kuri robine afite ibijerekani ari kuvomeramo, kandi amazi yari kuvomero rusange.

Abantu benshi bitabiriye igikorwa kijyanye n'ubukangurambaga mu gutera imboga mu turima tw'igikoni. Abo bantu harimo abagore ndetse n'abagabo, bose bambaye udupira dusa n'ibara rya oranje.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako mberabyombi, iberamo inama zitandukanye. Bahagaze hanze, bameze nk'abasoje igikorwa cy'inama.

Umugabo ari gutomba amazi ku ivomero, imbere ku ivomero hari abana batatu baturutseho uturererekani bari kurereka amazi yaturutse kuri robine.

Abantu bari imbere mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Bamwe bambaye kositime ndetse na karuvati. Abandi bambaye imyenda y'abaganga. Inyuma yabo hari umugabo ufite kamera ari gufotora.

Abantu bicaye hamwe bakoze uruziga bafite ibitabo ndetse n'amakayi hamwe n'amakaramu, bari guhugurwa ku bijyanye no kwita ku buzima bwabo.

Abantu bitabiriye ayo mahugurwa, ajyanye no kubahugura mu bijyanye no kurwanya gutwita kw'abangavu bakiri batoya.

Abaganga bari gutanga serivise z'ubuvuzi bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'udupfukamawa, bari gupima umurwayi umuvuduko w'amaraso bakoresheje ibikoresho babambika ku kuboko.

Minisitiri w'ubuzima ariwe Dr Sabin Nsanzimana, arakangurira abaturage bose kurwanya indwara ya kanseri y'inkondo y'umura ikunda kwibasira abantu b'igitsina gore.

Abajyanama b'ubuzima bashoje amahugurwa ku bijyanye no kwita ku barwayi bafite ikibazo cy'uburwayi butandukanye, aho baraza basanga abaturage bakabavurira mu ngo zabo.

Abantu bose bakora mu nzego z'ubuvuzi, basoje ibiganiro cyangwa se amahugurwa, bahagaze hanze ku ibaraza ry'inzu mberabyombi, bari kwifotoza.

Inyubako nziza, imbere harimo ababyeyi bafite abana batoya, hakaba harimo n'umuganga uri kubatera urushinge rw'urukingo ku kaboko kugira ngo abongerere ubudahangarwa bw'umubiri.

Ni umugabo uri ku ivomero rusange, afite ibijerekani ari gukoresha avoma amazi aturutse kuri robine, inyuma ye kandi hari uruzitiro rw'ibiti ndetse n'ibyatsi.

Abantu bitabiye umunsi mukuru Mpuzamahanga wo kurwanya kanseri y'inkondo y'umura, ikunda kwibasira abantu b'igitsina gore.

Abantu bicaye mu nyubako ku ntebe nziza bari mu nama, imbere yabo hari ameza arambitseho ibitabo ndetse n'ugacupa turimo amazi yo kunywa.

Abantu bari kwivomero rusange cyangwa se kuri robine itanga amazi meza, imbere yabo hateretse ibijerekani bibiri, bari kuvoma amazi bakoresheje ibiganza.

Umugabo uri ku ivomero rusange, afite ikirekani mu ntoki, yambaye ishati y'amaboko magufiya n'ipantaro y'umukara.

Umwana usutamye imbere y'ivome rusange ari gukaraba intoki, ku ruhande rwe hateretseho ibijerekani bitatu agiye kuvomeramo amazi.

Umuganga ari kumwe n'umugore ufite umwana mutoya, muganga ari guha umuti umwana mutoya kugira ngo amuvure indwara zitandukanye.

Abanyeshuri bose bahagaze imbere ya twa robine dutoya duteretse ku meza, bafite udukombe, bari kuvomaho amazi yo kunywa.

Abari ndetse n'abategarugori bari mu nzu mo mbere, bari gususuruka, bari kubyina bateze amaboko, inyuma yaho hateye intebe zitandukanye.

Abaganga bari gutanga inkingo ku bana bakiri bato kugirango babongerere ubudahangarwa bw'umubiri, kandi ubuzima bwabo bubashe guhangana n'indwara z'ibyorezo ziri kwaduka muri iyi minsi.

Abaganga babiri bari gusuzuma umubyeyi mu nyubako mo imbere mu bitaro, bari ku mutima bumva uko umwana atera mu nda.

Abantu bicaye mu nyubako imeze neza, baganira ku bijyanye no kwita ku buzima bw'abantu ndetse no kongera serivisi zitangwa mu nzego z'ubuvuzi.

Umwana uri ku ivomero rusange cyangwa se robine, cyangwa se umugezi, ari gukaraba intoki, inyuma ya robine hakaba hateretse indobo nini iri mu ibara ry'ubururu.

Abagore bafite abana bakiri batoya babajyanye ku mavuriro, hari umugabo uri guha umwana umuti uwo mwana ari mu ntoki cyangwa se ari mu biganza bya nyina.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irahamagarira abaturage bose kwitabira gahunda yo gufata urukingo, kugira ngo babongerere ubudahangarwa bw'umubiri maze babashe guhangana n'indwara z'ibyorezo.

Abantu batatu, bahuriye ku ivomero rusange. Umwe ni umugabo, abandi babiri ni abagore. Umugabo yambaye umupira urimo ibara ry'umweru n'umukara. Umugore umwe yambaye akajire, undi yambaye umupira ugiye gusa n'icyatsi.

Abaganga bakora mu nzego zitanga serivisi z'ubuvuzi bafashe umwana ukiri mutoya bari ku mupima uburebure bamurambitse ku meza.

Umubyeyi w'umugore wajyanye umwana we kwa muganga. Ku ruhande rwe hari umuganga uri gupima umwana ibipimo by'ubushuhe, kugira ngo amenye uko umubiri w'umwana uhagaze ku bijyanye n'ubushyuhe.

Abaturage bagiye kwa muganga, imbere y'abo hari umunzani wifashishwa n'abaganga bari gupima ibiro by'abana. Ku ruhande hari abandi bagore bafite abandi bana na bo baje gushaka izo serivisi.

Umwana uri gukaraba intoki ku ivomero rusange, ku ruhande rwe hariho indobo ebyiri z'ubururu, na ho hirya hitaruye hakaba hari ibimera bitandukanye.

Abana bahuriye ku ivomero rusange, umwe ari gupomba amazi, abandi bakareka ku mureko, umwe yambaye bote, ikabutura y'ubururu ndetse n'agapira k'umutuku.

Umwana w'umukobwa uri kuvoma amazi kuri robine akoresheje ikirekani ndetse n'ibasi, inyuma ye hari umugozi ihanitseho imyenda arangije gufura.

Abaganga bari mu nyubako imbere ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, abaganga bose uko ari bane, bambaye imyenda yabugenewe, ingofero ndetse n'udupfukamunwa, aho bari kwita ku murwayi usa n'aho arembye.

Abana bari ku ivomero rusange, ni abana babiri bari gukaraba intoki, bateze ibiganza ku mureko w'amazi aturuka mu itiyo.

Abaganga bari kwita ku mwana ufite ikibazo cy'uburwayi, umuganga umwe ari kureba mu bitabo, undi we ari guha umwana umuti, mu gihe umwana akikiwe na nyina.

Umwana w'umukobwa ukiri mutoya, ari gukaraba intoki kuri yikandagira ukarabe. Amazi ari gukaraba ari kugwa mu ibasi iteretse hasi, naho ayo ari gukaraba agaturuka hejuru mu ndobo.

Abaganga bakora mu nzego zitanga serivisi z'ubuvuzi, bari gukingira abana babatera inshinge ku maboko kugira ngo babongerere ubudahangarwa bw'umubiri.

Umubyeyi w'umumama wicaye ku ntebe y'ubururu ikozwe muri pulasitike, akikiye umwana mutoya, imbere ye hicaye umugabo wicaye ku kabaho cyangwa se ku ntebe y'urubaho, ku ruhande harambitse ibitabo.

Abana batatu batonze umurongo imbere y'amarobine, bari gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo babashe guhangana n'ikibazo k'indwara zikomoka ku mwanda.

Umwana wambaye ijipo n'shati bidoze mu gitenge cy'umutuku, ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kuri robine ndetse ari gukarabira mu ibase.

Abantu bicaye mu nyubako bari mu mahugurwa, bicaye ku ntebe kandi bafite amakayi n'ibitabo bari gusoma, inyuma yaho hicaye n'abandi bakurikiranye aya mahugurwa.

Abantu babiri bari mu nyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi, cyane cyane ku bantu bivuza indwara ya SIDA cyangwa se indwara ya virusi itera SIDA, iyi nyubako harimo umuganga n'umurwayi, umuganga ari kwandika mu gitabo.

Umugabo ufite agakombe, ku ruhande hateretse ibase, afite abana bane ari kubakarabya mu ntoki baseka kandi bishimye.

Abantu bitabiriye amahugurwa, bose bambaye udupira dusa tw'umweru kandi duteyeho ibyapa ku bituza, bose bicaye bakurikirana amahugurwa.

Abantu bahuriye hamwe ku ivomero rusange, harimo abagabo, abagore, ndetse n'abana bakiri batoya, bafite amajerekani, amabasi ndetse n'amasafuriya ku ruhande.

Abagabo n'abagore bari gukora akazi ko guterura imifuka, bayitanga ahantu hamwe, abagore babiri bateruranye umufuka umwe mu ntoki, abandi bagabo ku ruhande bari kugenda barunda imifuka.

Umubyeyi w'umugabo wajyanye umwana we kwa muganga, yamuteruye amushyira ku munzani kugira ngo bamupime ibiro afite, ku ruhande rwe hari abaganga bari kwita kuri uwo mwana.

Umuryango wa UNICEF ushinzwe kwita ku buzima bw'abana bakiri batoya, ukomeje kugenda hirya no hino mu gihugu utangamo imfashanyo. Yahaye abana batoya imyambaro ndetse ibagenera n'ibiribwa.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi, imbere yabo hateretseho ameza, ayo meza akaba ariho amacupa arimo amazi yo kunywa ndetse n'amakayi atandukanye.

Abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi zitandukanye, basoje amahugurwa, ku bijyanye no kwita ku barwayi ndetse n'abantu bose baba bakeneye serivisi z'ubuvuzi.

Gahunda ijyanye no kurandura burundu indwara ziterwa n'imirire mibi, umubyeyi ari kugaburira umwana indyo yuzuye kugira ngo babitoze n'abandi babyeyi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, imbere hicayemo abaganga bari kuvura abana, ndetse ku ruhande hicayemo n'ababyeyi baje baherekeje abana babo.

Abana bari kuvoma amazi ku marobine rusange bari gukoresha utujerekani dutoya abandi bo bari kuvomesha utudobo bareka amazi aturutse kuri robine.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ikomeje gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu baturage kugira ngo babashe guhangana n'ikibazo cy'indwara zikomoka ku mwanda.

Aho abantu bicaye mu nyubako mberabyombi. Bicaye bameze nk'abari mu nama. Imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi ndetse n'indabo zitandukanye.

Leta y'u Rwanda yakwirakwije amazi meza mu baturage kugira ngo babashe guhangana n'ikibazo cy'indwara zikomoka ku mwanda, hifashishijwe ayo mazi meza ndetse n'isabune.

Umuntu uri ku ivomero rusange. Ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza aturuka kuri robine. Ndetse n'isabune, kugira ngo abashe kurwanya indwara zikomoka ku mwanda.

Abantu bane bicaye imbere ku meza y'ibiganiro, bari mu nama, imbere yabo hateretse uducupa turimo amazi yo kunywa, kandi bafite na za mudasobwa imbere yabo, ndetse na telefone.

Umukobwa usutamye ari kuvoma amazi kuri robine akoresheje ijerekani ndetse n'amabase, inyuma ye hari umugozi wanitseho imyenda itandukanye barangije gufura.

Umwana uri ku ivome rusange, uri gukaraba mu maso akoresheje amazi meza n'isabune, imbere hari umubyeyi mukuru umushungeye.

Umwana wambaye imyenda y'ishuri, ahagaze imbere y'ibase irimo amazi, ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza ndetse n'isabune.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri ku ntebe zabo, bari gufata amafunguro, ayo mafunguro harimo umuceri ndetse n'ibishyimbo, kandi bakaba bari no kurisha n'amafoke.

Ku ruhande rw'inyubako imeze neza hari umugore wikoreye ijerekani, ku rundi ruhande hakaba umwana muto wunamye, ku rundi ruhande hakaba hahagaze umukobwa wambaye ishati y'ubururu.

Abajyanama b'ubuzima bicaye hamwe mu nyubako, bafite ibitabo bahawe bari gusomamo ibijyanye n'amahugurwa, ku bijyanye no kwita ku buzima bw'abaturage bakeneye serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, mo imbere harimo umuganga uri kwita ku murwayi, akaba ari kumutera urushinge ku kaboko, kugira ngo abashe kumuvura uburwayi butandukanye.

Abajyanama b'ubuzima bagiye mu baturage bari guha amata abana bakiri batoya, mu rwego rwo gukumira ikibazo cy'indwara zikomoka ku mirire mibi ndetse n'igwingira ry'abana bato.

Abantu bambaye imyenda isa ndetse n'imipira idoze mu budodo, bari kuvoma amazi yo kunywa ku kigega bakoresheje udukombe dutoya tw'ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu.

Abantu bitabiriye amahugurwa yo kurandura burundu icyorezo cya Ebola, bari kubyina bishimye, imbere yabo hari umugore upfukamye hasi, naho abandi bo bahagaze imbere ye, bafite mikoro, bari kubyina.

Abantu babiri bari ku ivomero rusange, umwe ni umwana ukiri mutoya, afite indobo y'umutuku irimo amazi, ari kuyiterura ashaka kuyikorera, naho ku rundi ruhande hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse n'agapira k'ubururu.

Abantu bane bari ku ivome rusange, umwe ari gupomba amazi, undi ari imbere ari kureka amazi mu kijerekani, gifite ibara ry'umuhondo.

Umudamu uvuye kuvoma amazi. Yikoreye indobo y'umutuku ku mutwe irimo amazi, indi ndobo y'umuhondo ayitwaye mu ntoki na yo irimo amazi.

Abantu bari kwa muganga bicaye hanze ku ibaraza ku ntebe, batonze umurongo, bategereje guhabwa serivisi z'ubuvuzi bagenda bakurikirana.

Abantu bari gutanga amahugurwa ku baturage, babasobanurira ku bijyanye no kwita ku buzima bw'abana babo bakiri bato kugira ngo babashe guhangana n'indwara zikomoka ku mirire mibi.

Abagore bafite abana bakiri batoya, bagiye kwa muganga kwitabira gahunda yo gukingiza abana babo, abo bagore bose batonze umurongo, imbere yabo hari umuganga uri gutera abana inshinge.

Abantu bitabiye inama bicaye muri salle ari benshi, harimo n'abantu bari kugenda bafotora abitabiye inama kandi abitabiye inama bambaye utuntu tubaranga mu ijosi.

Abantu basoje amahugurwa, ajyanye no kwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, abo bantu basoje amahugurwa, higanjemo abagabo ndetse n'abagore ku mpande zombi.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, hari umuntu wundi uri kumugira inama, ari kumuganiriza, uko bigaragara uyu muntu asa n'uwihebye bityo rero bari kumuganiriza kugira ngo barebe ko yasubira mu buzima busanzwe.

Umuntu wegamye ku gikuta k'inzu, ameze nkaho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yambaye igishati kidoze mu bitenge kandi afite na telefone mu ntoki.

Umugabo usa n'uwigunze yifashe ku itama, yambaye akagofero kari mu ibara rya gisirikare yicaye ku ntebe, ku ruhande rwe hicaye umugore wambaye amataratara n'imyenda y'umukara ari kumuganiza.

Umugore wicaye mu nyubako isize amarangi y'umweru, akaba yambaye imyambaro iri mu ibara ry'umweru, akaba yicaye, yunamye, yubitse umutwe mu maguru afashe mu gahanga.

Umuryango ugizwe n'abantu batandatu bicaye hamwe bari kuganira, hari umugabo wambaye umupira w'umutuku undi yambaye akajire k'ikigina, umukurikiye yambaye agapira k'ubururu abagore babiri bitwikiriye ibitenge.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare, inyuma ye hari abantu benshi basa naho basoje amahugurwa ku bijyanye no kwita ku bantu babana n'ikibazo cy'ubumuga bwo mu mutwe.

Abantu babana n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, biba byiza iyo bafite abantu bababa hafi mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakabafasha mu bikorwa bitandukanye byo kugira isuku ndetse no kubategurira amafunguro ateguranye isuku.

Hari umukobwa waje agana abaganga, bari kumuganiriza, bari kumuha inama ku bijyanye n'ikibazo cy'uburwayi afite, imbere yabo hateretse akabogisi k'umweru, karimo akantu k'umuhondo.

Abantu bagiye gusura inzibutso, gusura abantu bazize Jenoside yakorewe abatutsi. Bitwaje indabo, harimo umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'undi muntu ku ruhande wambaye akajiri.

Umukobwa w'umwana ukiri muto, yicaye ku ntebe ya sheze, imbere ye hari ameza, ari guhekenya biswi, umukobwa yambaye ishati y'umweru ndetse n'ijipo y'ubururu.

Abantu benshi bitabiye inama iri gutangirwamo amahugurwa ajyanye no kwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, abantu bari guhugurwa ku bijyanye no kuba hafi y'abantu bafite icyo kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Inyubako nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, inyubako ikaba ikikijwe n'ibyuma bitandukanye, kugira ngo abantu batazahanuka ku mukingo.

Minisiteri y'Ubuzima ikomeje gukora ubukangurambaga no gutanga amahugurwa ku bantu bakora mu nzego zitanga serivisi z'ubuvuzi, ku bijyanye no kwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, cyane cyane kwita ku bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe, harimo mu kubaganiriza, bakabagira inama kugira ngo bagaruke mu buzima busanzwe.

Umumama ukikiye umwana, ku ruhande rwe hari akandi kana kamwicaye imbere, naho ku rundi ruhande harambitse intara iriho imyaka bari gutoranya, hakaba yatetsweho n'agasahane k'umutuku.

Abantu bicaye mu nyubako imbere, ndetse abandi bakaba babahagaze inyuma, basoje amahugurwa ajyanye no kwita ku bantu, bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Hari umugore ufite ibiti mu ntoki, ku ruhande rwe inyuma, hari umwana uri kurira cyane, yifashe mu mutwe kandi inyuma yabo, hari abantu benshi bicaye, bameze nk'abari gufura imyenda.

Abantu bari mu nama bicaye mu nyubako, umugore ufite agapfukanwa ku kaboko avuga ameze nk'aho yarakaye asobanura ku bijyanye n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Abana bakiri batoya bari kurira batakamba, basa naho bafite ikibazo cy'inzara, kandi no ku myambarire yabo bigaragara ko babayeho mu buzima bubi.

Umugore uri guseka yanitse amenyo, yambaye ishati idoze mu gitenge ndetse yipfuka n'ikindi gitenge gisa n'icyo ishati ye idozemo.

Umugore w'umukecuru usa naho ageze mu zabukuru, ariko akaba asa n'ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Yambaye ubusa hejuru akaba yipfutse igitambaro cy'umweru.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi imbere yabo hari umuntu ubayoboye, bamuteze amatwi ari kubabaha inyigisho zitandukanye kandi bose barakurikiye neza.

Umugabo n'umugore bafashe umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, bamutwaye mu maboko.

Umwana w'umuhungu wicaye ku rubaraza rw'inzu, uyu mwana yambaye agapira k'umukara akaba yubitse umutwe yifashe mu maso akaba yapfutse isura.

Abagore babiri bafite abana, babajyanye kubasuzumisha ku mavuriro kugira ngo bamenye uko ubuzima bw'abana babo buhagaze cyangwa se bahabwe n'ubufasha butandukanye.

Abantu bitabiye inama, iri gutangirwamo amahugurwa, ajyanye no kwita ku bantu babana n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, bicaye ku meza ndetse hariho n'ibikoresho bitandukanye.

Minisiteri y'ubuzima, iri gukora ubukangurambaga ku bijyanye no kwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo babashe kwitabwaho ku buryo buhagije.

Minisiteri y'ubuzima ifatanyije n'abantu bose bakora mu nzego zitanga serivisi z'ubuvuzi, bahurira hamwe bakaganira ku bijyanye no kwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu bari mu mahugurwa ajyanye no kurwanya ihohoterwa ry'abantu kandi barakangurira buri umwe wese kurwanya ihohoterwa, hari Abapolisi bambaye n'imiyenda y'akazi.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ari hanze imbere y'inyubako. Imbere ye hari undi umugabo wicaye ku igare ku ibaraza ry'inzu.

Abantu bicaye mu nama bitabiriye iyo nama, bari mu gikorwa cyo kwidagadura bari kubyina bishimye, kandi bicaye mu buryo bw'uruziga.

Abantu bari mu nzu mberabyombi, bari mu nama baganira ku kibazo kijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, imbere yabo hateretse ameza arambitseho za mudasobwa ndetse n'uducupa turimo amazi yo kunywa.

Umugabo wambaye umupira ugiye gusa n'icyatsi cyumye, afite igikoresho bifashisha basukura amenyo, arishimye, araseka kandi bigaragara ko amenyo ye afite isuku.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo. Imbere muri iy'inyubako, harimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga, bita ku bantu barwaye amenyo. Ibyo bikoresho harimo intebe zitandukanye.

Umuntu uri mu nyubako ari gusukura amenyo ye yireba mu ndorerwamo ari gukoresha urudodo akura imyanda mu menyo ye kugira ngo ayagirire isuku.

Abaganga bari imbere mu nyubako bari gutanga serivise z'ubuvuzi, bari kuvura umugore urwaye amenyo bari kumusuzuma bifashishije ibikoresho byabugenewe kandi bambaye n'imyenda yabugenewe.

Abana bari gusukura amenyo yabo bifashishije umuti wabugenewe w'amenyo ndetse n'uburoso bw'amenyo, bakoresheje n'amazi meza.

Umukobwa wicaye mu nyubako, imbere ye hari ibikoresho bakoresha basukura amenyo, hari ikiganza cy'undi muntu gifashe kamwe muri ibyo bikoresho, bakaba bari kumusukura amenyo.

Umuganga uri mu nyubako imbere, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Ari gusuzuma umurwayi amenyo ,akoresheje ibikoresho byabugenewe, kandi yambaye n'imyenda y'akazi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, mo imbere harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga iyo batanga serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo.

Abaganga bari gutanga amahugurwa ku bantu, ayo mahugurwa akaba ajyanye no kugirira isuku amenyo, hifashishijwe umuti wabugenewe ndetse n'uburoso.

Abaganga babiri bari mu nyubako, bari gusuzuma umurwayi amenyo, abaganga bose bambaye ibikoresho byabugenewe ndetse bambaye n'uturindantoki n'udupfukamunwa.

Umuganga uvura amenyo ari imbere mu nyubako, yicaye ku ntebe, inyuma ye hari igitanda yakiriraho abarwayi, iyo bari kubaha serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo.

Igishushanyo cy'amenyo, abakora mu nzego z'ubuvuzi bw'amenyo bakifashisha bahugura abaturage, ibikorwa bijyanye no gusukura amenyo yabo kugira ngo birinde indwara zituruka ku mwanda w'amenyo.

Igishushanyo cyifashishwa n'abantu bakora mu nzego zitanga serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, iyo bahugura abaturage ku bijyanye no kugirira isuku amenyo yabo ndetse no kuyitaho.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, mu imbere hicayemo umuganga uvura amenyo, imbere ye hari umwana uri gusuzumwa amenyo, muganga kandi yambaye uturindantoki ndetse n'imyenda yabugenewe.

Abakobwa babiri, bicaye mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Abakobwa bafite amafishi bari kuzuza, bakoresheje ikaramu. Ku ruhande rwabo hari ameza, aturetseho uducupa, turimo amazi yo kunywa.

Umugabo ufite amenyo asa neza wambaye umupira w'umweru wa tisheti, bisa naho akoresha umuti wabugenewe w'amenyo ndetse n'uburoso asukura amenyo ye.

Abanyeshuri bamaze guhabwa amahugurwa, ku bijyanye no gusukura amenyo yabo. Babahaye umuti wabugenewe, ndetse n'uburoso bwo gukoresha basukura amenyo yabo.

Minisiteri y'ubuzima irakangurira abantu bose kugira ibikorwa by'isuku basukura amenyo yabo, aba bantu bari gusukura amenyo bakoresheje urudodo, bavana imyanda mu menyo.

Umugabo urimo imbere mu nyubako yambaye igikanzu cy'umukara, afite igikoresho ari gukoresha asukura amenyo ye, akuramo imyanda itandukanye.

Umugabo ufite urudodo ari kurukoresha asukura amenyo ye, ari kurukoresha kugira ngo arwanye ikibazo cy'umwanda ukunze kwibasira amenyo bityo bigatuma ayo menyo yatakwa n'indwara zitandukanye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, harimo umugabo wambaye amarinete kandi afite agacupa mu ntoki, imbere ye hari akarobine bakarabira.

Umuntu uri mu bikorwa bijyanye no gusukura amenyo ayakuramo imyanda yifashishije urudodo ariko ushobora no gukoresha ubundi buryo, urugero dusangamo gukoresha umuti w'amenyo ndetse n'uburoso.

Abaganga bari imbere mu nyubako zitangirwamo serivise z'ubuvuzi, bari kwita ku barwayi baje babagana, umuganga ari kureba umurwayi mu kanwa, amusuzuma amenyo.

Umuganga ari gusukura amenyo y'umuntu waje amugana kandi ari kumwereka ibikoresho byabugenewe bifashisha bakora isuku y'amenyo, ibyo bikoresho harimo umuti w'amenyo wabugenewe ndetse n'uburoso.

Umuganga uri mo imbere mu nyubako, imbere ye hari umwana mutoya mbese muganga ari kwita ku menyo y'uyu mwana, muganga kandi yambaye ibikoresho byabugenewe harimo uturindantoki ndetse n'imyenda yabugenewe.

Abantu bitabiriye ibirori by'ubukwe bitandukanye, ni benshi cyane ariko imbere ya bo hari abantu babiri umusaza ndetse n'umukecuru, bose bambaye imikenyero.

Umugore n'umusaza bicaye mu nyubako, imbere yabo hateretse ameza ariho imbuto zitandukanye, umugore afite ikirahure ari gusukamo umutobe.

Umurwayi uri mu nyubako mo imbere, ari kumwe n'umuganga uri kumuha serivisi z'ubuvuzi, umurwayi yicaye ku ntebe, muganga ari kumubaza uko amerewe.

Umusaza n'umukecuru bicaye mu nyubako mo imbere, imbere yabo hateretse ikirahure kirimo amazi, ndetse n'uducupa dupfundikiye, umukecuru afite igipapuro.

Umugabo uri kumwe n'umukobwa, umukobwa yambaye amataratara n'agakote k'ikoboyi, musaza we yambaye agapira ka tisheti ndetse n'ishati y'amaboko maremare isa n'ibara ry'umutuku.

Abantu babiri barimo imbere mu nyubako, umwe ni umugore, undi ni umugabo ufite inkoni. Umugore yambaye imyenda imeze nk'ibikoresho by'abaganga, naho umusaza yambaye umupira w'umweru.

Umusaza yicaye mu nyubako ari kumwe n'umugore ukiri muto, afite igipapuro. Ari gusobanurira uwo musaza uburyo araza afata imiti.

Abantu babiri bicaye mu nyubako mo imbere. Imbere yabo hateyeho ameza arambitseho igitabo. Umugore umwe ameze nk'umuganga uri gutanga amabwiriza asobanurira umurwayi gahunda y'uburyo araza afatamo imiti.

Abagore batatu bicaye mu nyubako, imbere yaho hari ameza, bafite utuntu tw'umukara mu ntoki. Bari kuganira baseka kandi bishimye.

Umwana w'umukobwa ari kumwe n'umubyeyi w'umugore usa naho akuze, bari mu bikorwa bya siporo baterura ibyuma ndetse umukobwa ari kugenda yerekera umuntu mukuru uko aterura.

Umusaza uri mu nyubako imbere, ari kumwe n'umukobwa, wambaye imyenda imeze nk'iy'abaganga, umusaza afite akantu ari guterura mu ntoki, muganga ari kumwerekera.

Inyubako itangirwamo, serivise z'ubuvuzi. Mo imbere harimo abarwayi, ndetse n'umuganga uri kubitaho, abaha serivise z'ubuvuzi. Hari umugabo wicaye imbere y'umuganga, umuganga ari kumuha serivise, amunanura intoki.

Mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo umuganga uri kuvura umugore, ari kumusobanurira uko araza gufata imiti, akanamusobanurira amasaha araza ayifatiraho.

Umuganga uri mu nyubako imbere, ari kumwe n'umurwayi. Imbere yabo hateretse ameza, ariho udukarito dutoya dupfunyitsemo imiti. Uyu muganga ari guha umurwayi imiti, umurwayi afite n'ikirahuri cy'amazi.

Umuntu ugeze mu za bukuru ari guhabwa serivisi kwa muganga. Bari kumusobanurira uburyo arazajya afatamo imiti ndetse n'amasa azajya ayifatiraho.

Umuganga uri gusuzuma umurwayi, ari kumwambika igikoresho bakoresha bapima umuvuduko w'amaraso, ari kukimwambika ku kaboko kugira ngo amufate ibyo bipimo.

Abantu babiri bari mu nyubako. Umwe ni umusaza, undi ni inkumi mbese aracyari muto. Umusaza yambaye umupira w'amaboko maremare, usa n'ikigina ndetse yambaye n'akajire k'umukara.

Abagore batatu ndetse bari kumwe n'undi mugabo bari mubikorwa bya siporo bitandukanye, bose bambaye udupira tw'amabokoboko magufi, ariko umugabo yambaye umupira w'amaboko maremare.

Inyubako irimo abantu batatu, umwe bari kumwereka ibintu muri telefone, umwe yambaye ingofero irimo ibara ry'ubururu n'umweru, undi yambaye ingofero y'umweru gusa, undi nta ngofero yambaye, babiri muri bo bambaye amarinete.

Abantu bageze mu zabukuru ni ngombwa ko bagira abantu babitaho, bakabitaho mu bikorwa bijyanye n'isuku, kubategurira amafunguro anoze kandi ateguranye isuku kandi bagahabwa serivise zijyanye n'ubuvuzi, bakazihererwa ku gihe nk'abandi bantu bose.

Umugabo usa naho ageze mu zabukuru, afite ikirahure cy'amazi ndetse n'ibinini mu ntoki akaba agiye kunywa umuti, uyu mugabo akaba yambaye agapira ka tisheti k'ibara ry'icyatsi ndetse n'umupira w'amaboko maremare w'ibara ry'ikigina.

Abagore bicaye mu isoko, bafite imbuto zitandukanye. Harimo amapera, inyanya ndetse n'amapapayi.

Umusaza uri mu zabukuru, yicaye ku muryango imbere y'inzu, ku ruhande rwe hicaye abana babiri, bari kurya imigati, ku ruhande rumwe umwana afite akajerekani k'umweru.

Umugore uri mu bikorwa bya siporo yambaye umupira w'amaboko maremare, imbere kandi yambariyemo agapira k'umweru ka tisheti, afite udukoresho mu ntoki ari kugenda akurura.

Inyubako irimo abantu babiri umukobwa w'inkumi ukiri muto ndetse uri kumwe n'umugore, bigaragara ko ari kugenda agera mu zabukuru, bari kumwe baganira baseka.

Abantu bakora mu nzego zitanga serivise z'ubuvuzi, bari kwita ku murwayi uri mu bitaro, bari kumuhagurutsa ku buriri cyangwa se ku gitanda bamutwaye mu maboko.

Umusaza rwose ugaragara nkaho ageze mu zabukuru, yitabiye ibikorwa bya siporo, yambaye ekuteri mu matwi, yambaye amarinete kandi yambaye n'agapira k'umweru ndetse n'ikabutura y'umukara.

Umusaza wicaye mu kagare k'abantu babana n'ubumuga, inyuma ye hari umugore umusunitse muri ako kagare. Uyu musaza yambaye amataratara, naho umukobwa uri inyuma ye umutwaye mu kagare yambaye agapira k'ubururu.

Abantu babiri b'abagore bari gutegura amafunguro, imbere yabo ku meza hariho imboga rwatsi, urusenda n'imbuto zitandukanye harimo inyanya, umuneke ndetse n'izindi.

Umusaza uri mu bwogero, inyuma ye hari umuntu uri kumukarabya amusukaho amazi ndetse n'isabune, uyu musaza afite imvi ndetse n'ubwanwa.

Umugore wambaye agapira k'ubururu ka T-shirt, ari guha amazi umusaza ugeze mu zabukuru. Umusaza yicaye ku gitanda kandi igitanda kiriho n'amashuka.

Abantu babiri bicaye hanze, umwe ni umuganga yambaye n'imyenda y'abaganga ndetse n'agapfukamunwa, yambaye n'uturindantoki ari gukanda umukecuru akaboko asa nuri kumuvura.

Abantu bafite ibikoresho bya tuwareti ndetse n'intebe zifite amapine ndetse n'imbago zigenderwaho n'abantu bafite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru.

Umusaza uri kumwe n'umuganga, mu nzu ikorerwamo ibikorwa bya siporo. Umuganga ari kwerekera umusaza uburyo bakora siporo baterura ibyuma bitandukanye.

Umubyeyi w'umugore wicaye imbere mu nyubako, ari kumwe n'umwana, imbere yabo hateye ameza arambitseho udupapuro dutoya dukase, mbese asa n'uri kwigisha umwana we kubara.

Inyubako itangirwawemo serivisi z'ubuvuzi harimo umugore uri kwita ku mugabo, ari kumuha imiti, imbere yabo harambitse ameza, ayo meza akaba ateretseho mudasobwa ndetse n'imiti ipfunyitse.

Umukecuru uri gutegura ibyo ku kurya, imbere ye hari isafuriya iri ku mashyiga, acanyemo umuriro, ku ruhande rwe akikije n'ibihuru kandi aho yicaye akikijwe n'ibyatsi by'imyanda.

Abantu bicaye hamwe, bakoze uruziga. Bicaye ku dutebe twa purasitike, abandi bicaye hasi barambirije; bari kuganira.

Umuntu ugeze mu za bukuru, ari kumwe n'undi muntu umwitaho mu buzima bwe bwa buri munsi, yamuteguriye ifunguro bari gusangira ku meza bishimye, baganira kandi banaseka.

Umugabo usa naho ageze mu za bukuru yagiye kwa muganga gushakayo serivisi z'ubuvuzi bamwambitse igikoresho bifashisha bapima umuvuduko w'amaraso.

Umusaza ndetse n'umusore ukiri muto, bicaye mu nzu imeze neza bari gusoma igitabo bishimye. Imbere yabo hateretse udukombe dusa umweru bari kunywa icyayi.

Abantu bari mu nyubako imbere, iyo nyubako ikaba itangirwamo serivise z'ubuvuzi, muganga ari gupima umurwayi umuvuduko w'amaraso, ku ruhande inyuma yabo hari abandi bantu babahagaze imbere.

Abantu bicaye mu nyubako mo imbere, imbere yabo hateye ameza atandukanye, kandi muri abo bantu bicaye bafite amafoto, kandi hakaba harimo n'abambaye amakanzu, bameze nk'abisiramu.

Umugore wicaye imbere mu ntebe nziza y'icyubahiro, afite indangururamajwi ari gutanga amahugurwa ku bijyanye no kurwanya ubusambanyi bukorerwa abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irashishikariza abaturage bose kwirinda indwara ya kanseri bisuzumisha ku gihe ndetse banafata inkingo kuri kanseri zimwe na zimwe, urugero dusangamo urukingo rwa kanseri y'inkondo y'umura.

Amakuru meza avuga ku bijyanye n'urukingo rw'indwara y'umuriro, mbese hari n'umwana uri guterwa urushinge rw'urwo rukingo.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi, bari mu nama, bari kuganira ku bijyanye no kongera imibereho myiza y'abaturage ndetse no kurwanya indwara zitandukanye.

Abaganga bakora mu nzego zitanga serivisi z'ubuvuzi, bambaye imyenda yabugenewe, ndetse n'udupfukamunwa tubafasha kwirinda kuba bakanduzwa indwara n'abantu baza babagana.

Abantu basoje amahugurwa ku bijyanye no gukora ubukangurambaga bwo kurwanya burundu indwara ya kanseri y'ibere, ikunda kwibasira abantu b'igitsina gore.

Ifoto y'umugore iri ku gipapuro kinanditseho ibintu bijyanye n'ingaruka z'icyorezo cya COVID ndetse n'uburyo cyakomye mu nkokora inzego mu nzego z'ubuzima.

Abantu bari mu nama bicaye mu nyubako nini, imbere ya bo hari abayoboye inama bababwira ku bijyanye no kwita ku buzima bw'abaturage.

Abaganga bari imbere mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, bari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda, aba baganga kandi bambaye imyenda yabugenewe, udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki.

Abantu basoje amahugurwa bambaye baje, batonze umurongo hanze ku ibaraza, inyuma yabo ku gikuta hateyeho ibyapa byanditseho n'ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu.

Hari inyubako nziza, igaragara isa na convention center, ku ruhande rwaho hari umukobwa wambaye akajipo k'ubururu, n'agapira k'umutuku, mbese baragaragaza ko ari umunsi wo kurwanya indwara ya diyabete.

Icyapa gishushanyije ubwoko bwa kanseri zitandukanye, harimo kanseri y'ibere, kanseri y'inkondo y'umura ndetse hariho n'amabwiriza agenga uburyo bwo kuzirwanya.

Umugabo uri kumwe n'abagore batatu bari gusohoka, abo bagore bambaye imyambaro imeze nk'iy'abamasera, bambaye amavara ndetse n'imipira y'umweru.

Icyumweru cyahariwe gutanga amahugurwa, ndetse no gusobanurira abaturage, ku bijyanye no kwirinda, ndetse no kurandura burundu, indwara ya diyabete.

Umuganga wicaye imbere mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, imbere ye hicayemo abarwayi batonze umuronngo abo barwayi bambaye n'udupfukamanwa, umuganga na we yambaye ibikoresho ndetse n'imyenda yabugenewe.

Abaganga bari mu bitaro aho batangira serivisi z'ubuvuzi, bari kwita ku bana bakiri batoya babaha imiti, imbere yabo baganga kandi hari ababyeyi bakuru bazanye abana babo kwa muganga.

Abantu bahuriye hamwe mu nyubako nini ari benshi, bari guhabwa amahugurwa ku bijyanye n'indwara ya virusi itera sida babasobanurira uburyo yakirindwa.

Abantu bari mu nyubako imbere bafite icyapa cyanditseho amagambo ashishikariza abantu kwisuzumisha indwara y'igituntu kubera yuko bigaragara ko iyo kivuwe gikira.

Icyapa cyanditseho amabwiriza ajyanye n'ubukangurambaga ku bijyanye no kurandura burundu indwara ya virusi itera SIDA mu rubyiruko ndetse no mu baturage.

Icyapa gishushanyijeho ibimenyetso bitandukanye, bijyanye no kwirinda ndetse no kurwanya burundu indwara y'icyorezo cya Korona Virusi yari imaze iminsi ihungabanyije abantu.

Inyubako y'ibitaro by'i Nyanza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, igipangu cyabo ku ku muryango hariho urugi rusize irangi ry'ubururu.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ikaba yubatsemo etajeri, mbese ikoreshwa nk'ububiko bw'imiti bakoresha bavura abarwayi.

Abaganga bakora mu nzego zitanga serivise zubuvuzi, bari guha ubufasha umwana w'umukobwa, bamuryamishije ku gitanda bamupfuka ku kaboko.

Inyubako nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi mu imbere hateyemo intebe nziza zirimo n'imifariso, ku ruhande mo hagati hakabamo ameza atatu, amwe asa n'umweru andi asa n'umukara andi afite ibara ry'ikigina.

Inyubako yubatswe neza igeretse mu buryo bwa etaje kandi ku ruhande ikaba ikikijwe n'ibimera ndetse n'indabo mu mpande z'inyubako.

Inyubako nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Imbere hakaba harimo abaganga babiri bari gusuzuma ibikoresho by'ikoranabuhanga bifashisha bita ku barwayi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, mo imbere harimo ibikoresho abaganga bakoresha, harimo ibyuma bakoresha bafotora abarwayi ndetse hakabamo n'ameza atandukanye.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, mo imbere harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga, ku ruhande hariho ameza atandukanye.

Inyubako nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, inyubako mo imbere ikaba ifite imiryango itandukanye, kandi ikaba inasizemo amarangi meza y'ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi n'ubururu.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Mo imbere harimo umuganga, ndetse n'umugore ukikiye umwana. Uyu muganga ari gusuzuma umwana, indwara zitandukanye.

Umuganga uri imbere mu nyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ari kwita ku ruhinja arusuzuma, kandi akaba yambaye imyenda yabugenewe ndetse n'uturindantoki.

Abantu batandatu, bari hamwe bose. Bari ku ibaraza rya clinic, bambaye imyenda y'abaganga. Bakaba bambaye n'udupfukamunwa, ndetse bakaba bambaye na baje, mu ijosi.

Inyubako nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, mo imbere harimo igitanda basuzumiraho abarwayi kugira ngo bamenye indwara barwaye, kandi harimo n'umuzani bapimiraho ibiro by'abarwayi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo umurwayi asa naho arembye, yicaye yegamye ku ntebe, apfutse n'akaboko.

Inyubako isa neza batangiramo serivisi z'ubuvuzi, mo imbere harimo ibyumba bitandukanye kandi harimo amakaro ndetse ku byumba harimo inzugi zisize irangi ry'umutuku.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga iyo bari kuvura abantu kandi harimo n'icyapa kiriho abana.

Inyubako y'ibitaro, byo ku Karere ka Nyarugenge, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zitandukanye. Iyo nyubako ikaba yubatse mu buryo bw'amataje agerekeranye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, imbere harimo abaganga ndetse hakaba harimo ibikoresho bifashisha batanga serivisi z'ubuvuzi ku bantu bose baje babagana.

Abaganga bari imbere mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, bari kwita ku murwayi bamutwikiye igitambaro mu maso kandi bambaye imyenda yabugenewe ndetse n'udupfukamunwa.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi mo imbere harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa n'abaganga, harimo kandi n'ibitanda biryamaho abarwayi, ku ruhande hakaba hariho akameza gateretseho ibindi bikoresho.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ku ruhande ku birahure hariho amafoto y'abantu atandukanye. Hari n'uruhande ruriho ifoto y'umuzungu wambaye amataratara.

Inyubako nziza itangirwamo serivise z'ubuvuzi, ikaba yubatse mu buryo bwa etaje, ni inyubako kandi igeretse rimwe, ku ruhande ikaba ifite amapave ndetse ikaba ifite n'ubusitani.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa n'abaganga kugira ngo barusheho kunoza serivisi batanga mu nzego z'ubuvuzi.

Inyubako nziza zitangirwamo serivisi zubuvuzi, iyi nyubako yubatse neza kuruhande ifite indabo nziza, kandi hasi irimo amakaro.

Inyubako nziza itangirwamo serivise z'ubuvuzi, imbere harimo ibikoresho bitandukanye na robine bakarabiraho intoki ndetse n'igitanda baryamishaho abarwayi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ifite ibyumba bitandukanye, ku ruhande ifite aho bakirira abantu, hakaba hateye intebe bicaraho mu gihe bategereje serivisi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi mo imbere harimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga iyo bavura abarwayi, harimo intebe zitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bakoresha basuzuma abarwayi.

Inyubako nziza itangirwamo service z'ubuvuzi, harimo ibitanda bitandukanye biriho na matera kandi hejuru y'ubwo buriri cyangwa se hejuru y'ubwo buryamiro bwose, hanitseho supanete cyangwa se inzitiramibu.

Inyubako itangirwamo service z'ubuvuzi, iyo nyubako ikaba ifite igitanda basuzumiraho abarwayi, icyo gitanda kikaba kiriho na matela kandi mu nyubako hakaba harimo na itajeri barambikaho ibikoresho.

Inyubako y'ikigo nderabuzima itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hari umuganga ndetse n'abarwayi baje bamugana ari kubakira kugira ngo abahe serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako nziza zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, mo imbere harimo ibitanda biryamwaho n'abarwayi, ndetse hakaba harimo n'ameza yifashishwa n'abaganga.

Inyubako nziza y'itaje itangirwamo serivisi zubuvuzi, ku ruhande ifite ka jaride gatoya gateyemo ibiti ndetse no hafi y'ibaraza hariho ka jaride.

Inyubako nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, mo imbere harimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga, ibyo bikoresho harimo intebe zitandukanye, mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Minisiteri y'Ubuzima ikomeje kongerera ingufu Ibitaro by'Umwami Faisal kugira ngo babashe kunoza imitangire ya serivisi zitangwa mu nzego z'ubuvuzi, babasha kwita ku barwayi baje babagana.

Inyubako zitangirwamo serivise z'ubuvuzi, mo imbere harimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga, harimo intebe ndetse n'ibitanda abarwayi baryamaho, kandi harimo n'ameza atandukanye.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, imbere yaho ku ibaraza hicayemo abantu benshi baje bagana ibitaro kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuvuzi, ku ruhande gatoya haparitse imodoka y'ibara ry'umukara.

Abantu bose barwaye bagiye no kwa muganga gushakayo serivisi z'ubuvuzi ku bigo Nderabuzima. Bicaye aho bakirira abarwayi bwa mbere. Harimo abagore bahetsa abana ndetse n'abagore badafite abana n'abagabo.

Inyubako nziza yubatse neza mu buryo bwa etaje, ku ruhande hanze hariho jararide ikikijwe n'indabo, iyo nyubako ikorerwamo ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuvuzi.

Inyubako ikikije urugo rwubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hari icyapa cyanditseho umujyi wa Kigali, ku ruhande hari umuhanda w'ibitaka.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, cyane cyane izijyanye no kwita ku bana bakiri batoya. Iyi inyubako kandi, irimo umuganga uri gupima ibiro by'abana yifashishije imyenda bambika abana, ndetse n'umunzani.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ifatanyije na Leta y'u Rwanda yeguriye abikorera ku giti cyabo, ku bikorwa bijyanye no gushinga amakirinike yigenga ndetse n'amafarumasi, kugira ngo barusheho kunoza imitangire ya serivisi mu nzego z'ubuvuzi.

Inyubako nziza zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Izi nyubako zikaba zifite ubusitani butandukanye. Imihanda cyangwa se utuyira tugana kuri izi nyubako tukaba dufite amapave. Ndetse hakaba harimo n'abantu bagenda bagana izi nyubako.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, mo imbere harimo umugore w'umuganga wambaye imyenda y'akazi, ari gukoresha imashini cyangwa se mudasobwa.

Inyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, mo imbere hakaba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga mu gihe bari kwita ku barwayi.

Ni inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye bya siporo, hakaba harimo n'ibikoresho bifashisha, harimo intebe ndetse n'utugare banyongeramo twa siporo.

Amafarumasi atandukanye hirya no hino mu gihugu, atanga serivisi z'ubuvuzi, abamo imiti itandukanye, iyo miti yifashishwa n'abaturage, mu gihe bafite ikibazo cy'uburwayi runaka.

Inyubako nziza yubatse neza. Iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Iyi nyubako kandi imbere ikaba ifite intebe ziteye neza, hakaba harimo n'ameza mbese n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga.

Inyubako nziza y'ibitaro bya Ruhengeri, ikikijwe n'uruzitiro rwiza kandi ku ruhande hariho umuhanda nyabagendwa ucamo imodoka ndetse n'abantu.

Inyubako yubatse neza, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iyo nyubako isize irangi rigiye gusa n'umutuku kandi ku ruhande ikikijwe n'ibimera bitandukanye.

Abantu bitabiye amahugurwa bicaye ku ntebe zimbaho, imbere yabo hari abayobozi bahicaye, bicaye ku ntebe za sheze ndetse umwe arahagaze ari kuvuga niwe ufashe ijambo.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Harimo imbere ibitanda biryamyeho abarwayi kandi hakaba harimo n'ibikoresho bashyiramo imyanda.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Mo imbere harimo ibitanda biryamaho abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga mu kuvura abo barwayi.

Abantu bari mu muhanda bagenda, imbere hari umugabo wambaye imyenda y'bururu, ishati y'umweru, inyuma hakaba undi mugabo ukuruye umwana akaboko bagenda mu muhanda wa kaburimbo. Ku ruhande hariho insina z'imibyare ndetse n'indabo.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bwa etage ikaba igeretse rimwe, mbese ni inyubako isa neza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hateyemo intebe abaje bagana abaganga bicaraho, harimo ameza ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga.

Inyubako nziza y'ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, ku ruhande ku ibaraza harapavomye, urundi ruhande hariho amapave ndetse hakaba hariho n'indabo zitandukanye.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iyi nyubako yubatse mu buryo bwa etaje cyangwa se mu buryo bugerekeyije, aho igeretse inshuro eshatu kandi ku ruhande ikaba ifite n'ubusitani.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bwa etaje, iyo nyubako ikaba igereretse kabiri, hanze ku ibaraza iteyeho ibipapu by'ibyapa, ndetse no hanze ku ibaraza hariho ibimera bitandukanye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, mo imbere hicayemo abantu ku ntebe zitandukanye, bicaye batondetse umurongo kugira ngo babashe guhabwa serivisi neza.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, mo imbere harimo ibitanda biryamaho abarwayi, hakaba hari n'umurwayi uryamye ku gitanda mo imbere mu nyubako.

Inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi, imbere harimo udutanda duteretseho imiti itandukanye, iyo miti ikaba ipfunyitse mu bikarito bitandukanye.

Igiti kirekire kandi kibyibushye gikikijwe n'amabuye mbese baracyubakiye, imbere yaho kuri ayo masikariye hakaba hicaye umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umweru.

Inyubako nziza y'Ikigo nderabuzima cya Matyazo. Iyi nyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi ku rwego rw'ibanze. Ku ruhande hari abantu bari gusohokamo bavuye gusura abarwayi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hanze ku ibaraza hose harapavomye na sima cyangwa se hakoteye na sema, kandi hari abantu baje bagana iyi nyubako bagemuriye abarwayi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yicayemo umugore w'umuganga, ari gupima umuvuduko w'amaraso, umugabo wambaye ishati y'umutuku.

Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, ifatanyije na Leta y'u Rwanda. Bakomeje kongera inyubako zitandukanye zitangirwamo serivisi zijyanye no kuvura kanseri.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Ku ruhande hariho ubusitani bumeze neza bukikijwe n'indabo zitandukanye. Hanze kandi hicayemo abantu kuruhande rw'ubusitani.

Inyubako zitangirwamo serivise z'ubuvuzi zubatse neza, yubatse mu buryo bwa etage ikaba igereretse rimwe, ku ruhande ku ibaraza ryaho haparitse imodoka iri mu ibara rya move.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse hari n'ibikoresho byifashishwa iyo basuzuma abana, ibyo bikoresho barimo ibyo bifashisha babapima ibiro ndetse bapima n'uburebure.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, mo imbere harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga, muri ibyo bikoresho harimo intebe ndetse n'ibitanda baryamishaho abarwayi.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, mu imbere harimo intebe nziza z'imifariso ndetse harimo n'ibitanda biryamishwaho abarwayi, mu imbere kandi harimo abaganga bari kwita ku barwayi.

Inyubako itangirwawemo serivisi z'ubuvuzi, yubatse neza mu buryo bwa etaje, iyo nyubako ikaba igeretse gatatu kandi ku ruhande hanze hakaba haparitse imodoka nyinshi zitandukanye.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, imbere harimo imiryango itandukanye, iyo miryango igihe yanditseho amanimero, ku ruhande hari intebe y'umukara kandi mo imbere harimo n'icyapa kiyobora abantu.

Inyubako itangirwawemo serivisi z'ubuvuzi, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye: harimo ibitanda, ndetse na matera zijyanwaho abarwayi.

Inyubako nziza zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ku ibaraza hanze hariho amapave naho ku ruhande rundi hakaba hariho jaride iteyemo n'ibimera bitandukanye.

Hari inyubako nziza zitangirwamo serivisi z’ubuvuzi, mwimbere muri izo nyubako harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n’abaganga, ndetse harimo na etajeri babikaho ibikoresho.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga. Harimo ibitanda biryamaho abarwayi ndetse n'ameza atandukanye.

Inyubako nziza y'ishami rya kaminuza, itangirwamo amasomo kubijyanye n'ubuvuzi bw'abantu. Inyubako ifite amapave ku ruhande, kandi inzu zubatse mu buryo bwa etaje.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bwa etaje cyangwa se mu buryo bugerekeranyije, iyi nyubako ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ikaba ari inyubako kandi ifite amapave ku ruhande ndetse n'ubusitani.

Abantu babiri, bari mo imbere mu nyubako, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, umwe ni muganga, undi ni umurwayi, muganga ari gutera umurwayi urushinge ku rutugu.

Leta y'u Rwanda ikomeje kwagura inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kugira ngo barusheho kwakira abantu baza bagana ndetse no kunoza serivisi zitangwa mu nzego z'ubuvuzi.

Inyubako nziza itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, ku ruhande hubatse itente, naho ku rundi ruhande hanze ku ibaraza huzuye abantu baje babagana.

Ibiro rusange cyangwa se inyubako itangirwamo serivise ku bantu bose bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Aha niho kandi, babaha ubutabazi bw'ibanze.

Umubyeyi ufite umwana ukiri muto w'uruhinja, ari kumwe na muganga mu imbere mu nyubako, umuganga arikumugira inama zijyanye no kwita ku mwana.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, mo imbere harimo abarwayi babiri baryamye ku bitanda, umurwayi umwe ari kumwe n'umuganga uri kumwitaho, umurwayi uri kwitabwaho yicaye ku gitanda.

Umuganga ukora mu nzego z'ubuvuzi cyane cyane zijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo. Yicaye mu nyubako imbere y'aho akorera, hakaba harimo ibikoresho yifashisha, harimo n'igitanda aryamishaho abarwayi.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, mo imbere ifite ibikoresho bifashisha bavura abarwayi, ibyo bikoresho harimo ibitanda ndetse n'ameza.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ikomeje kongera inyubako zatangirwamo serivisi z'ubuvuzi, cyane cyane hitabwaho kongera ibyumba by'abagore kugira ngo babashe kugabanya ikibazo cy'imfu mu gihe cyo kubyara.

Inyubako nziza yubatse mu buryo bwa etaje ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi. Inyubako ikaba ari farumasi yigenga. Ku ibaraza ryayo haparitse imodoka iri mu ibara ry'umukara.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hanze ku ibaraza hahagaze abantu bari kwaka izo serivisi, ku ruhande kandi bigaragara ko iyi nyubako ikikijwe n'ubusitani burimo indabo zitandukanye.

Abantu bari mu nyubako ikorerwamo siporo, umwe aryamye hasi, undi amwicaye imbere ari kumunanura amaguru.

Umukobwa uri mu bikorwa bya siporo apfukamye, yambaye ipantaro y'ubururu, agasengeri k'umweru kandi amanitse amaboko hejuru.

Igishushanyo cy'umuntu uri kwiruka mu muhanda akora ibikorwa bya siporo, yambaye agakabutura k'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, akaba yambaye agasengeri k'umukara katagira amaboko.

Umugabo uri mu bikorwa bya siporo, apfukamye hasi ari kwikanda ivi, yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'agapira k'umukara. Yambaye n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru.

Nku umuntu wambaye umupira wa locosite, ari kwikanda akaboko asa naho ari kwikanda imvune yagize yari mu bikorwa bya siporo.

Umwana w'umukobwa uri imbere mu nyubako, yicaye ku ntebe imbere ye hari umuntu uri kumukanda ivi, yamushyizeho igipfuko cy'umutuku munsi y'ivi.

Umugabo ufashe umwana mu ntoki, bisa naho uyu mwana avunikiye mu bikorwa bya siporo, bakaba bamujyanye kwa muganga kugira ngo bahabwe ubutabazi bw'ibanze.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye, abantu bifashisha bari muri siporo, ku ruhande hakaba harambitseho amagi ndetse n'imbuto zitandukanye.

Inyubako irambitsemo imbuto zitandukanye, harimo imineke ndetse n'indimu, ku ruhande hari ibikoresho bifashisha mu bikorwa bya siporo.

Umugabo usoje igikorwa cya siporo, yambaye isengeri y'icyatsi, arangije kunywa amazi, ari kuyisuka mu mutwe kugira ngo agabanye ikibazo cy'ubushyuhe.

Umuntu wavunitse akaboko, afite barafu, ari kwikanda imvune kugira ngo abashe kugabanya ikibazo cy'uburibwe. Uyu muntu kandi yambaye impeta mu rutoki rw'akaboko k'ibumoso.

Inyubako iteretsemo icyuma baterura bakora siporo, hakaba hariho n'imbuto zitandukanye harimo indimu ndetse n'urunyanya, ku ruhande hakaba hariho n'umugozi w'imetero.

Ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya siporo, ibyo bikoresho harimo umugozi ibi bakoresha basimbuka, harimo inkweto za siporo ndetse n'umupira w'amaguru.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bya siporo, umuntu yakoze impanuka yitura hasi, abura uwamuha ubutabazi bw'ibanze, aryamye hasi kuri sima.

Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko amazi aari ingenzi mu buzima bwa muntu, bityo rero buri muntu wese arashishikarizwa kunywa amazi meza asukuye kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Imbuto zitandukanye, harimo avoka, inyanya ndetse n'urusenda. Ku ruhande hari inkweto bifashisha mu bikorwa bya siporo ndetse n'umukeka.

Umugabo wasoje ibikorwa bya siporo yicaye hasi ari kuruhuka afite icupa ry'amazi ari gusomaho, uyu mugabo yambaye agasengeri k'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umuntu urangije gukora siporo zitandukanye afite icupa ririmo amazi meza, ari kuyanywa nyuma yuko asoje siporo.

Abantu benshi bitabiriye igikorwa cya siporo. Aba bantu hakaba higanjemo abakuru ndetse n'abatoya, aho batonze umurongo bose bakora siporo.

Igihe cyose umuntu yitabiriye ibikorwa bya siporo asabwa kugenda yambaye imyenda yabugenewe n'ibikoresho byabugenewe bishobora kumurinda igihe cyose yakora impanuka ari gukora siporo.

Icyapa cyanditseho ibijyanye n'akamaro ka siporo mu buzima kandi hashushanyijeho abantu bari mu bikorwa bya siporo bitandukanye. Bamwe barunamye abandi barikugorora umugongo.

Umuntu uri mu bikorwa bya siporo, afite umupira akinisha amaboko, akaba yambaye agapira ka lakosite kari mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Umuntu wari uri muri siporo, arunamye yafashe ku kaguru, ari kwikanda ivi mbese asa n'aho yangiritse ku kaguru, akaba afite uburibwe.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gikorwa cya siporo, ibyo bikoresho harimo umugozi basimbuka, itenesi ndetse na baro ari yo mupira w'amaguru.

Umukobwa usoje igikorwa cya siporo, yunamye areba hasi, ari kugorora umugongo agenda akanda amavi, yambaye isaha, ku kuboko ku iburyo.

Abantu bari gutanga ubutabazi bw'ibanze ku wundi muntu uryamye hasi agaramye, bari kumwambika imigozi kandi inyuma yabo hari n'abandi baje gushungera.

Iyo umuntu wakoze impanuka ari mu bikorwa bijyanye na siporo, rimwe na rimwe bamushyiraho barafu kugira ngo bimugabanyirize ikibazo cy'uburibwe aba afite.

Umugabo wambaye agapira k'umukara ndetse akaba yambaye na koteri mu matwi, afite agacupa karimo amazi asa neza ari kugenda ayanywa.

Umugore uri mu bikorwa bya siporo bitandukanye, ari kunanura umubiri, arapfukamye kandi yahanitse amaboko hejuru, akaba yambaye ipantaro y’umukara ndetse n'agasengeri k'umukara.

Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda irakangurira abaturage bose kwitabira ibikorwa bitandukanye bya siporo, kuko ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza yuko siporo ari ingenzi mu buzima bwa muntu.

Inkweto nziza iri mu ibara ry'umukara, kandi ikaba ihagaze imeze nk'inkweto zo mu bwoko bwa butini, inkweto zikaba zifite n'icyapa ku ruhande.

Umuntu uri mu bikorwa bya siporo, ari kunanura amaboko, yambaye agasengeri ka oranje, akaba yambaye n'isaha ku kuboko kw'ibumoso, akaba yambaye na kuteri mu mu matwi.

Icyapa cyangwa se ikirangantego kigaragaza umuryango w'aba Croix Rouge, utanga ubutabazi bw'ibanze ku bantu bafite ikibazo ku buzima bwabo.

Abagabo batatu bari hanze, imbere y'igicumbi cyubatse hafi y'inyubako itangirwamo serivise z'ubuvuzi. Umwe yuriye urwego, ari gusukura izi nyubako zitandukanye.

Hari ibikoresho bitandukanye, abantu bifashisha muri siporo. Ku ruhande hateretse isahane y'umweru, irambitseho amagi ndetse n'amashaza mu kandi kantu. Ku ruhande hariho imineke ndetse n'izindi mbuto zitandukanye.

Ameza ateretseho ikirahure ndetse n'akaboko k'umuntu gafashe ikindi kirahuri gisuka amazi mu kindi kirahure giteretse ku meza.

Umuntu wese ukora ibikorwa bya siporo bitandukanye, bituma agira umubiri mwiza. Umubiri ukomeye kandi bikamurinda no kuba yarwara indwara zitandukanye urugero dusangamo indwara z'imitsi ,n'indwara z'umuvuduko w'amaraso.

Umuntu wambaye ekuteri mu matwi ndetse yambaye n'isaha ku kaboko k'iburyo, afite icupa mu ntoki, ari kunywa amazi meza.

Umukobwa urangije gukora ibikorwa bya siporo, yitwikiriye umupira w'umweru mu bitugu, afite icupa ririmo amazi meza ari kuyanywa.

Ibikoresho bifashisha muri siporo, harimo umupira w'amaguru, ndetse n'umugozi bifashisha basimbuka, mu bikorwa bya siporo.

Igishushanyo kigaragaza abantu bari mu marushanwa bakina umukino wa karate. Kandi bigaragara ko bari mu gikorwa cy'amarushanwa.

Hari inganda zitandukanye mu Rrwanda, zisukura amazi zikayagira neza, kugira ngo abantu babashe kuyanywa nta ngaruka bibateye, izo nganda dusangamo uruganda rw'Inyange ndetse n'uruganda rwitwa Akandi.

Umugabo urangije gukora ibikorwa bya siporo, yambaye isengeri y'icyatsi, afite icupa ririmo amazi asa neza, ari kuyanywa.

Umugabo uri mu bikorwa bya siporo, ari kunanura amaguru apfukamye, yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara hamwe n'inkweto z'umweru.

Umugabo wasoje ibikorwa bya siporo, ari kunywa amazi akoresheje agacupa. Uyu mugabo kandi afite ubwanwa.

Ibikoresho byifashishwa n'abaganga bashinzwe kwita ku buzima bw'abana bakiri batoya, ibyo bikoresho harimo igikoresho cyifashishwa bapima uburebure bw'umwana ndetse n'igikoresho cyifashishwa bapima ibiro by'abana.

Abaganga bicaye imbere mu nyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, bicaranye n'abandi bantu ku ruhande, iyo nyubako kandi irimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga batanga serivisi z'ubuvuzi kandi harimo n'ibitanda abarwayi baryama.

Umukobwa wicaye hasi, ari mu ibikorwa bya siporo, yambaye inkweto za siporo z'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri k'umukara, yambaye na ekuteri mu matwi.

Abantu bari mu nyubako imbere itangirwamo serivisi zijyanye n'ibikorwa bya siporo, umwe yicaye ku ntebe naho undi ari kumwerekera uburyo bakora siporo, amunanura amaboko.

Ni inyubako ikoremo ibikorwa bya siporo, harimo abantu bari gukora siporo ndetse hakabamo n'ibikoresho bifashisha muri ibyo bikorwa bya siporo zitandukanye.

Abana babiri bari mu nyubako zitangirwamo serivisi zijyanye n'ibikorwa bya siporo. Harimo nko kunanura umubiri, kunanura uruhu ndetse no kugorora amaguru.

Umugabo uri mu bikorwa bya siporo. Ari gukanda akaguru akazamura hejuru agasubiza hasi. Yambaye ikabutura y'umukara n'agasengeri k'umukara.

Ikirahure giteretse ku mazi, hari n'akaboko k'umuntu gafashe ikindi kirahure kimeze nk'ijagi, basuka amazi muri cya kirahure giteretse ku meza.

Abaganga bari mu nyubako bakikije umurwayi urwaye bari kumuha serivise z'ubuvuzi, bamubaza uko amerewe, bagenda bamuha imiti itandukanye.

Umugabo uri mu bikorwa bya siporo, yambaye agapira k'umweru ndetse n'ikabutura y'umukara, ari gukanda ivi kandi ku ruhande intoki ze bigaragara ko yambaye impeta.

Umugabo uri mu bikorwa bya siporo. Yambaye kuteri. Ari gupfukama agenda akanda ku ivi. Akaba yambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri k'umukara.

Amoko y'imbuto zitandukanye harimo: indimu, amape, inyanya ndetse n'urusenda. Ku ruhande hari imboga ndetse hakaba n'ibikoresho byifashishwa muri siporo.

Umwana w'umukobwa uri mu bikorwa bya siporo bitandukanye. Ari kunanura umubiri aho yahinnye akaboko gakora inyuma mu mugongo. Kandi akaba ari no kugenda akandakanda ku nkokora.

Abantu babiri bari mu kibuga ku ruhande bari mu bikorwa bya siporo. Umwe bari kumwitaho asa naho yagize ikibazo cy'imvune mu ivi. Hirya mu kibuga mo hagati harimo abakinnyi batandukanye bari gukina umupira w'amaguru.

Umugabo usoje igikora cya siporo, yambaye agapira k'umukara, afite icupa rya'amazi mu ntoki, ari kugenda arayanywa buhoro buhoro.

Umugabo uriri mu gikorwa cya siporo, akaboko kamwe agashyize hasi, akaguru kamwe kararambuye, mbese yunamye hasi ameze nk'uteye intambwe yerekeza imbere.

Abantu bari imbere mu nyubako zitangirwamo serivise zijyanye n'ibikorwa bya siporo, abo bantu kandi bambaye n'imyenda ya siporo, bari kugenda bananura umubiri bicaye ku bitanda.

Ku muryango uvura ibijyanye no kurangiza vuba ndetse no gucika intege mu gihe umuntu ari mu gikorwa cyo gutera akabariro kandi ku ruhande hagaragara agacupa gapfundikiyemo umuti bakoresha.

Icupa rifunzemo umuti wakozwe mu kimera cy'umuravumba. Uyu muti ukaba waranyujijwe mu ruganda, aho bafashe ibimera bagahinduramo umuti wujuje ubuziranenge.

Imbuto zitandukanye, harimo amapera, indimu, inyanya ndetse n'amapapayi, ku ruhande hariho na avoka.

Ibimera bihinze ku butaka bisa n'ibara ry'icyatsi, ibi bimera biri mu bwoko bw'ibyitwa umuravumba, bikaba byifashishwa n'abaturage bivura indwara zitandukanye.

Ishyamba rikubiyemo ibiti by'ibimera bitandukanye. Kuruhande harimo indabyo zisa n'umutuku. Mo hagati hakabamo ibiti birebire bifite amababi yakuze cyane.

Umugore ukenyeye igitenge kirimo ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'umutuku, yicaye impande y'indabo ari ku zisoroma amababi ndetse n'imitwe yazo.

Hari inyubako ikoreshwa nk'ububiko babikamo imiti itandukanye kugira ngo itabasha kwangirika. Iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura abarwayi indwara zitandukanye.

Ni ibimera bitandukanye byifashishwa nk'imiti ya gakondo, cyangwa se bakabyifashisha babicishije mu nganda, bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge.

Inzu yubatse hifashishijwe ibiti ndetse n'ibirere mu buryo bwo kuyisakara, ku ruhande hari umufuka upanzemo ibicupa ndetse ku ruhande hari n'uducuma ndetse n'imyenda.

Umuntu uribwa ivi ndetse n'undi uri kuribwa umugongo, undi wiwe ari kuribwa mu bikanu, undi we akaribwa mu bitugu ndetse ku ruhande hari uducupa dutandukanye turimo umuti.

Amacupa ane ateretse ku meza apfunyitsemo ubuki butandukanye, ku ruhande hateretse igisanduka kigeretseho akuma.

Ameza ateretseho imbuto zitandukanye ndetse akaba ateretseho n'udukarito dupfundikiyemo ibintu, izo mbuto harimo; inanasi ndetse n'imineke, ku ruhande hakaba hateretse ururabyo.

inyubako ibitsemo ubwoko bw'imiti butandukanye, iyo miti ikaba ifungiye mu ducupa. Uducupa tukaba duteretse kuri etajeri imbere mu nzu.

Icupa ry'umukara, rifite icyapa, rikaba rifungishije umufuniko w'umweru, iryo cupa ririmo umuti.

Ibimera bitandukanye hirya no hino ku isi, byifashishwa n'abaganga bakoramo imiti itandukanye, babinyuza mu nganda bagakoramo imiti yujuje ubuziranenge bakayifashisha bavura abarwayi.

Umuti bakoze uturutse mu ruganda, ariko ukaba ukomoka ku bimera bitandukanye, iyo usohotse mu ruganda bawufunga mu macupa kugira ngo babone uko bawuha abaje babagana muri serivisi z'ubuvuzi.

Umuti uvura Amibe uri mu icupa ry'umweru, rifite icyapa cy'umutuku. Rikaba rifungishije n'umufuniko w'umweru. Uyu muti ukaba uvura Amibe.

Ibimera bitandukanye urugero dusangamo umuravumba, byifashishwa n'abantu bivura indwara zitandukanye kandi n'abakora mu nzego z'ubuvuzi bakoresha ikimera cy'umuravumba bakakinyuza mu ruganda hakavamo umuti wujuje ubuziranenge.

Isekuru ntoya ifite n'umusekuruza wayo, iteretse hagati y'ibimera bitandukanye ndetse n'imbuto, ku ruhande rwayo kandi hari icupa ririmo umutobe usa n'umutuku.

Ibimera bitandukanye, harimo n'ikimera kimeze nk'umuravumba cyifashishwa n'abantu bivura indwara zitandukanye ariko bashobora no kubinyuza mu nganda hakavamo umuti wujuje ubuziranenge.

Umugore n'umugabo begeye ibiti bitandukanye, umugore yambaye umupira w'umweru, yipfutse n'agatambaro kagiye gusa n'ubururu, umugabo yambaye umupira w'umutuku wa tisheti ndetse n'ikoti ry'umukara.

Hari ibijumba ku ruhande rumwe, urundi ruhande ruriho igitoki kibisi, urundi ruhande rugaragaza ibimera ariko ku rundi ruhande hakagaragara imboga rwatsi za dodo ziteye.

Ubwoko bw'ikimera gifite amatabi menshi atandukanye mu mpande, ayo matabi akaba amwe asa n'icyatsi, ay'andi matabi amenshi muri yo akaba asa n'ibara ry'umweru.

Icupa riteretse hasi ryanditseho umuravumba. Bigaragara ko ari ibyatsi by'umuravumba bacishije mu ruganda, bagakoramo umuti wo mu bwoko bw'umuravumba, umuti wujuje ubuziranenge.